Ikigo cy'amashuri yubatse ku murongo aho atondetse hakurikijwe uko abana bayigamo, ndetse hakaba hafite isuku, bigaragara ko abana cyangwa se abakora amasuku baba bayakoze ku gihe.

Icyapa cyerekana aho ikigo cy'amashuri giherereye, cyitwa Maso academi, aho umuntu wese ushaka kujyana umwana we ku ishuri, yahita abimenya bimworoheye.

Abanyeshuri basuye raboratwari, aho umuyobozi wabo ari kubaha amabwiriza atandukanye bagomba gukurikiza, kugira ngo babashe kwiga neza.

Abanyeshuri barimo ibintu bijyanye n'ubutegetsi banakora paratike aho bagiye kureba ko ibyo bize bashiraho ubushobozi bakazabasha kubikora neza.

Abanyeshuri bari muri laboratwari aho bafite impapuro mu ntoki zabo, bitegereza ibyo bagiye gukora. Basa neza, bafite isuku kandi bafite ubwirinzi buhagije. Bambaye ga ndetse n'amataburiya.

Abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi runaka， cyangwa se abandi bantu batandukanye， bambaye amataburiya kugira ngo bakore igikorwa barimo neza.

Abanyeshuri biga ububaji，aho bari mu gikorwa cya puratike，kugira ngo ibyo biga bbishyire mu bikorwa， barebe ko babishoboye neza，basa neza， bari ahantu hasa neza，kandi bambaye bose neza.

Umuntu arimo kwiga uko bakira abantu kugira ngo yimenyereze umwuga, aho ashobora kuzajya ajya gushaka akazi ahandi hantu hatandukanye bakamwemera.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barimo gukora puratike y'ibyo biga, aho bambaye ibisarubeti biranga ko bari muri puratike, kandi bakaba basa neza ahantu bari.

Abanyeshuri biga ubukerarugendo bagiye gusura mu Kinigi aho bagiye kureba ibikorwa byabo bihabera bitandukanye aho bambaye inifomu zisa kandi bakaba bari kumwe n'abayobozi babo.

Abanyeshuri biga muri segondere bagiye muri labo gukora paratiki y' ibyo biga, aho bambaye amataburiya ndetse bakaba bafite n'ibindi bikoresho byo muri rabo, birimo kubafasha gusubiramo ibyo bize.

Umunyeshuri uri gukora puratike y'ibyo yiga, aho afite icyuma gikoreshwa mu kumutsa mu mutwe, akaba arimo kubikorera mugenzi we yumutsa umusatsi we.

Abanyeshuri bambaye ibisurubeti ndetse n'ingofero zo kwirinda bize ibijyananye n'amashanyarazi, bakaba bari mu gikorwa cya puratike.